Burushete zitetse ziri ku biti, kandi izi burushete ziri ku isahani, akaba abantu biteguye kuba bazirya.

Ibiryo biri mukabare byiganjemo: ifiriti, ibitunguru ndetse n'isombe hakaba hariho n'inyanya ,hakaba hari n'agacupa k'inzoga ko kubinywesha.

Akabari karimo amacupa kandi karimo na televiziyo, amacupa apanze kuri kontwara, hejuru hari itara riri kwaka ubururu kugira ngo ahantu hagaragare neza.

Akabare kari kwakamo amatara bigaragara yuko ari nijoro, harimo abantu baje bakagana. Barimo baranywa kandi bakanarya ibituruka muri ako kabari.

Abantu bari mu kabari, bari kunywa fanta, kandi bigaragara yuko bari mu myidagaduro bishimye kandi bameze neza. Bose bicaye ku meza no ku ntebe za purasitike.

Ibara rifite intebe zibajwe mubiti, n'utwuma tuzifashe, rikaba ryubakishijwe ibisika hejuru, bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Iduka ricuruza ibikoresho bya siporo, rikaba riri hejuru muri Etage aho ricuruza imipira ya futubolo, Basiketi, Rugubi ndetse n'imyenda bakinisha iyo mikino bambaye.

Ndabona icapa canditswe ho Kerema, impande hari ibiti birebire na geti yinjira kwa Kerema aho akorera, kandi bigaragaza yuko aha hantu hameze neza, hari iterambere ryiza.

Inzu z'ubucuruzi, imbere ya yo hari akamodoka kanditswe ho sikoro, ndetse n'abamotari bari kuri moto, ndetse n'abadamu bahagaze. Kuri izi nzu kandi, hakaba hari ibikurete by'inzoga.

Botike icuruzwamo inyama kandi igatanga n'izindi serivisi zirimo amacumbi kurya ndetse no gutwara hakaba harimo na bare na resitora.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, imbere hayo hari amashanyarazi, ndetse n'ibiti, kandi ikaba iriho icyapa cyanditsweho eyateri, kandi kuri iyo nzu hakaba imbere hayo n'aba ajenti batanga amayinite.

Inzu y'ubucuruzi ,inyumayo hari etaje, imbere y'iyonzu y'ubucuruzi hari imodoka ,kandi bacuruza n'ibitanda hari umudamu urigucuruza ibitunguru ,karoti ,akorera m'umutaka. Kandi aho hantu hakaba hariho amashanyarazi.

Ikaba ari Edenigolufegestihawuzi cikaba ari icapa c'inzu icumbikira abantu cangwa se igakorerwamo inama n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Akabare gacuruza inzoga, burushete, ndetse n'ibindi bitandukanye byo kurya, ikaba imiryango ifunguye, kandi bigaragara ko bari gucuruza.

Etaje iriho icapa, icapa bakaba bakoreraho imisatsi, kandi kurico, kuri etaje hakaba hariho ikindi capa, kiriho umugabo uri gusomana n'umugore we, kiriho nomero nimero ya telefone, ndetse n'imigozi zijyana amashanyarazi muri iyo nzu.

Iduka rifite umuryango ufunguye. Hakaba hari icapa cyanditsweho forudibete ,kandi inzuzu zikaba zubatswe mu buryo bwitwa ibihanga.

Etaje, etaje ikaba ifite ibyapa byinshi byerekana buri muryango ikintu ukora kandi imbere yizo etaje hakaba hateyeho ibiti.

Amazu y'ubucuruzi afunguye, hejuru yayo hari antene bakoresha kugira ngo barebe televiziyo neza, hari izimanitse hari n'indi iri hasi, hari akazu ka emuti ene kandi hari n'umunyonzi ufashe igare.

Umuhanda kuruhande hakaba ari butike icuruza ibyo kunywa ,ibyo kurya imbere mu muhanda hakaba hari gucamo abanyonzi ndetse n' abantu bagenda n'amaguru mu muhanda.

Botike icuruza ibihaza ndetse n'imifuka, hakaba hicaye abantu imbere mu gihanga. Abagore batatu n'umugabo umwe bari ku miryango itandukanye, bigaragara yuko bari gucuruza kandi bamwe banategura ibyo guteka.

Etaje icururizwamo amabase, indobo, ibikapu, imikoropesho, imitaka ndetse na Tapi.

Rukara Supamaketi akaba ari isoko bacuruza ibintu abakobwa bashira ku minwa, ndetse bakaba banogosha.

Amatara ku muhanda, umuhanda uri kugendamo abagenzi batwaye amagare, abatwaye moto, inyuma turabona ikirunga ndetse n'ibiti biri ku ruhande y'umuhanda.

Amasaro udukomo umuntu aradufite mu kiganza cye ,bigaraga yuko atuboha ,bikaba bimwinjiza amafaranga bityo bigatuma atera imbere.

Butike yanditsweho Tekino, kandi iyi butike ikaba iriho utuntu imbere bacuruza tworosheho umutaka. Kandi imbere yaho hakaba hari utugare.

Inzu za etaje z'ubucuruzi imbere yazo haparitse imodoka ndetse n'abamotari, kandi hariho n'igiti gihari aho imodoka ziparitse munsi yaco.

Icyapa cyanditsweho Homini, ikindi cyapa cyanditsweho Henikeni, bigaragaza ibyo iyi hoteli icuruza kandi ukaba wabisangaho.

Igipangu kiriho icapa cyanditswe ho emupiheci urugwiro aratidi mu ibara ry'ubururu, Gesite hawuzi tu mu ibara ry'umutuku ndetse na tini namba na terefone.

Inzu y'ubucuruzi iteye irangi ry'umuhondo, haparitse moto, hari utumeza bari gucururizaho inyanya, ndetse umuryango ufunguye ukaba uriho imifuka y'umweru n'igare riparitse imbere yaryo n'akapa kari ku nzu hejuru.

Icapa canditsweho Dekorete wivu sitayiri. Cyanditsweho Dekorasiyo twambika:Abageni ,dukora indabo, dufite impeta nziza imodoka z'ubukwe Sonolizasiyo na Layive bande, na nimero za nyirayo ndetse banakodesha ibintu bitandukanye.

Butike iriho icyapa, bakabacuruza imyenda yo kwambika abageni, ndetse imbere y'iryo duka hakaba hateretse ameza, n'akabati k'umwagenti.

Iduka ricuruza imyenda, imisatsi y'abakobwa, inkweto, rya Bigirinka, rikaba riri hejuru muri etaje, aho abantu bajya kugurira imyenda bakambara bakaberwa.

Mu butike icuruza isukari, gacuruza ji, bakaba bateretse inyuma y'iduka kugira ngo abantu barahaca babibone.

Icapa cerekana butike icuruza omo ,ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bamesa cyangwa se bakora amasuku.

Etaje imbere yayo hari imikindo, kandi iyi Etaje yegereye kaburimbo abantu bacaho kugira ngo bayijyemo byerekana yuko iterambere ry'igihugu rikataje.

Agakiyosike kanditsweho home sambusa, aho gacuruza amasambusa. Abaturage benshi barakagana, kugira ngo bagure izo sambusa, zicururizwa kuri aka gakiyosike.

Ahantu haparitse imodoka zanditsweho mitiderivari zikaba zitwara inyama, hari na dayihatsu iri ku ruhande rwayo, kandi uru rugi rukaba rufunze turi kurebera mu birahure.

Icuma giteretse hasi ,kikaba giteretse ku nzu y'ubucuruzi bikagaragara yuko ari umucuruzi uri kubicuruza.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye ,ikaba imanitseho umwenda uwo mwenda ukaba utuma ,abantu batareba abarimo imbere ibyo bakora.

Amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda ,imbere yayo haru muhanda uri gucibwamo n'abantu, ndetse n'abanyonzi batwaye amagare.

Ikaba ari iduka zicuruza inzoga za amusiteri n'ibindi byinshi, rikaba rifunze imiryango imwe ,indi ikaba ifunguye.

Butike ihanagura imyenda, kandi ikanamesa ikoresheje imashini ,bityo bigatuma batanga serivisi zihuse.

Inzu y'ubucuruzi iri mu isoko rya Goyiko. Irafunze. Imbere y'umuryango hari itara riri kwaka. Imbere hari ibyuma bituma cyangwa se birinda abagenzi kuba bakora impanuka.

Supamaketi irimo ibintu bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka kandi hejuru muri etaje ya kabiri hateyeho imigano, kandi ndabona n' imyeyo, imbere ya etaje idufasha mu gukubura.

Iduka rifunguye imbere yaryo hari ibit,i ndetse n'umuntu uhicaye n'igare riparitse, kandi hakaba hari na jaride ku ruhande.

Butike iri inyuma yanditsweho cimeza indi yanditse sikolo hakaba haparitse moto ku ruhande ,kandi bakaba banagurisha amagaze kuri izi butike.

Icyapa cy'ubucuruzi bacuruza imigati she hampanye, korogati salisa n'ibindi byinshi. Iduka rikaba ryitwa Hamoni mini maketi.

Butike yitwa Kamageni mini maketi icuruza gaze, gaza bakoresha bacana kugira ngo barengere ibidukikije.

Amaduka afite ibyapa hejuru rimwe gifite icyapa cyanditsweho hapi kidi mu magambo acuritse n' ikindi cyanditsweho mireniyamu sitagishinari Ltd， n'ikindi cyanditsweho pisi.

Inzu iri mu igipangu, ifite geti, ishushanyijwe ho inzu ndangamurage y'igihugu, aha bakaba bahacururiza ibintu bitandukanye: Icyayi, ndetse n'ibindi bintu. Ikaba yitwa ngo "Amahoro Gesite Hawuze".

Inzu yanditseho virunga bare na welikamu, iparitse moto imbere hamwe nigare, ifite inzugi z'umutuku n'amakaro hejuru yayo ndetse n'indabyo ziteye kumpande yiyo bare.

Iduka ricuruza matera za Dodoma, imbere yayo hari umugabo uri gusudira anakata ibyuma, impande ye hari irindi duka rifunguye riri ho imifuka hejuru, ndetse na moto iparitse hafi aho.

Sato cyangwa se umusarane, kimwe mu bikoresho bashyira mu musarane, kugira ngo abantu bajye barannya cyangwa se basobemo, kugira ngo Leta ibashe gukontorora isuku y'umusarane.

Butike iriho icapa , iyi butike ikaba ifunguye kandi ikaba iriho antene hejuru ku capa , iyi butike ikaba icuruza ibintu bijyanye na tekinike.

Iduka ricuruza amagi, amata y'inyange, amaronji, n'imineke na pome na bodaboda, n'intsinga, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi afunguye. Imbere yayo hateretse gaze ndetse n'imbere ya butike hari umuhanda uri kunyurwamo n'abagenzi, ndetse iyi nzu irimo butiki ikaba imanitse antene hejuru. ndetse ni amatafari ibi bikaba byerekana ibikorwa remezo uburyo bimaze gutera. imbere mu rwanda.

Inzu yanditsweho parisi moteri ikaba itanga serivisi zo kurya, zo kuryama, ndetse no gukoreramo inama n'ubukwe.

Aha ni muri hoteri iki nigitanda cyo kuryamaho. Iki gitanda kikaba gifite imisego ibiri. Hejuru y' igitanda hari ibishushanyo bitatse muri iki cyumba.

Hoteli imbere yayo hari intebe kandi hari akayira k'amabuye kajya muri iyo hoteli, iyi hoteli ikaba ikikijwe n'amashyamba atuma habonekamo akayaga. Kandi iyo hoteli ikaba ifite kizimyamwoto mu gihe ifashwe n'umuriro, kizimyamwoto igafasha iyi hoteli mu kuzimya umuriro.

Hoteri ya fatima, hejuru yayo hakaba hari insinga z'amashanyarazi. Ziha abaturage amashanyarazi .Imbere yafatima hoteri hari ibiti bizana akayaga. Ndetse n'umuhanda abantu bakoresha bagenda cyangwa se abayijamo.

Akayira kari iruhande rw'isoko. Ndetse iri soko rikaba ryubakishijwe amatafari, kandi imbere yaryo hakaba hari jaride iteyemo ibiti. Ndetse n'aho imodoka baziparika.

Isoko ry'ibiribwa aho ku bisima hari ibishyimbo, bakaba bakoresha akadobo kugira ngo bagurishe ibyo bishyimbo, kandi hakaba hari n'abajenti babikura amafaranga mu gihe hari umuguzi uya ashatse kuyabikuza.

Ibirayi biteretse impande y'isoko, bikaba biri mu mifuka aho abantu batandukanye baza babigura, abandi bakaza bagurisha.

Isoko ry'imbuto, muri izo mbuto hakaba hari wotamelone, pome ndetse n'amaronji. Bikaba biteretse ku bikarito byanditsweho penkerade, kandi izo mbuto zimwe zikaba ziteretse ku dukoko.

Inkoko ziri mu gasanduku izi nkoko akaba arimishwi agasandu kakaba karikugirango zitaguruka. Inyuma yagasanduku hakaba hari inkoko nkuru bakaba bari kugirango bazigurishe abaturage.

Isoko ry'ibitoki, ry'amaronji, amaronji akaba ari mu mashashi, ndetse rikaba ricuruza n'inyanya ndetse n'imboga.

Iduka ririmo ibikarito. Ibyo bikarito bikaba birimo sharijeri zicajinga amatelefone, ndetse hakaba harimo n'uturadiyo.

Amazi arambitse kuri kontwara ari mu macupa manini ya nili kandi hejuru yayo hakaba parafo ya tripregisi.

Ibisheke birambitse ku nzu, ibisheke bikaba birimo ubwoko bubiri iby'umutuku n'iby'umuhondo, abakiriya bakaba barabisanga hano buri wese bakamutemera ibihwanye n'amafaranga afite.

Isoko ririmo imineke, hakaba hari umugabo uhagaze impande y'izo mineke, kandi hakaba hari n'amaronji n'ibindi bintu bitandukanye muri iryo soko.

Isoko riri mo ibiribwa, hari mo ibirayi, hari mo imboga, biteretse hasi aho bategereje abakiriya, kugira ngo babigurishe.

Isoko isoko rikaba ririmo ibisima ndetse rikaba rybakishijwe amabati atanga urumuri mu isoko mu gihe ari ku manywa.

Ibiribwa biri mu isoko hakaba higanjemo : ibitunguru, tungurusumu ndetse n'utudobo turimo ibindi biribwa, bakaba bategereje abaguzi kugira ngo bagure izi mboga.

Isoko rya kijambere aho abantu bari gucuruza imbuto ku bisima bigezweho. Bikaba bigaragaza iterambere ry'igihugu cyacu mu guteza imbere ubucuruzi.

Muntu wicaye hanze y'isoko akaba ari gucuruza imyenda ya caguha, ikaba irambitse hasi.

Amazu y'ubucuruzi cyangwa se butike, afunguye, hari n'abantu bari kugenda kuruhande, bagura ibyo abantu bacuruza mu mabutike bacuruza.

Isoko ry'imbuto ririmo imineke, imyembe, pome, ndetse n'amaronji, wotameloni, n'ibindi birimo.

Pinari imboga abantu barya z'icatsi, zikaba zidufasha mu kurinda indwara, kandi zikaba zinubaka umubiri mu buryo butandukanye.